Ikoraniro ry'ibyuma by'amashanyarazi ,aha niho amashanyarazi y'igihugu hose aturuka, aha niho bayafungurira amashanyarazi rero atuzanira iterambere mu buryo bwihuse, tuyifashisha dutunganya umusaruro uturuka ku matungo ,umusaruro uturuka mu buhinzi ,ndetse dutunganya n'ibindi byinshi bitandukanye bituzanira iterambere vuba.

Urwibutso rushyinguwemo imibiri y'abazize Jenoside mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda, mirongo icyenda na kane; twibuke twiyubaka, kandi duharanira ubunyangamugayo, ndetse twibuke neza ko uburenganzira bwa muntu, aho buva bukagera bugomba kubahwa.

Umuhanda ni kimwe mu bikorwa remezo bidufasha kwiteza imbere, kuko tuwukoresha dutwara ibintu n'abantu tubigeza aho dushaka ko bigera, bityo bikadufasha kwiteza imbere kuko dushobora kubikoresha tujya mu isoko, tujya ndetse no mu yindi mirimo igiye itandukanye idufasha kwiteza imbere.

Siporo ni ingenzi ku mubiri w'umuntu, siporo ni nyinshi zigiye zitandukanye harimo: Futubolo, Volebolo, Hendibolo, buri muntu wese aba afite umukino yisangamo, rero tujye dukora siporo tugorore imitsi y'umubiri bityo siporo izaturinda kugaragazwa n'indwara zitandukanye.

Amupira w'amaguru, ni umwe mu mikino ya siporo idufasha kugorora umubiri ndetse no kwidagadura, tukishima bityo bikadufasha kugira ubuzima bwiza ubuzima buzira umuze kuko siporo irinda indwara, irinda kurwaragurika, ikarinda gusaza vuba ndetse n'ibindi byinshi.